Hubatswe posite dosante, muri buri kagari, mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Kugira ngo abarwayi bajye babona uko bivuza, bitabasabye gukora urugendo rurerure.

Abahuriye hamwe bagira byinshi bigaho, kandi bakungurana n'ibitekerezo, bitewe n'ibyo bakora, kandi bagahabwa n'ifunguro ribafasha, kuko hari igihe bamara umwanya munini batavuye aho bari.

Inama ihuza abaturage ndetse n'abaganga kugira ngo babasobanurire uko bagomba kujya bita ku buzima bwabo, ntibibakururire indwara za hato kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Ibikoresho byifashishwa n'impunzi, zikavomeramo amazi, bitangwa na Croix rouge, cyangwa na HCR, bityo iyo gishizemo amazi, wanakizinga ukakibika, no kugitwara kiba cyoroshye ntikiremera.

Hari ahakigaragara abana bakoreshwa imirimo ivunanye nk'aho usanga bahatirwa kwikorera ibintu bibarusha ibiro bikabaviramo kugwingira ndetse hari n'ababuzwa kugana amashuri.

Kurushaho kwita ku buzima bw'abaturarwanda, habaho n'igikorwa cyo gusanga abaturage aho bari, bakagira ibipimo bimwe na bimwe bafatwa, nko kureba ko imitima yabo itera neza ndetse ko n'ikigero k'isukari bafite mu mubiri kiringaniye.

Muri gahunda yo gushishikariza abatuye Isi, Igihugu cy'u Rwanda cyashyizeho gahunda ya sura u Rwanda izwi nka Visit Rwanda kugira ngo hirya no hino barusheho kumenya u Rwanda, imikorere yarwo ndetse n'ubwiza burutatse.

Bituma abantu bagira isuku iyo begerejwe amazi, imyenda bakayisukurira igihe ndetse n'ibikoresho bakoresha mu rugo na byo bakabikorera isuku kuko amazi baba bayafite hafi.

Amazi meza ashyirwa aho abanyeshuri bagomba gukarabira kugira ngo birinde umwanda, basukure ibiganza byabo ndetse nibagira n'ikindi kintu bajya gukora ntibibaviremo kwandura indwara zikomoka ku mwanda.

Amazi atangwa n'imishinga itandukanye mu rwego rwo kurushaho kwegereza amazi meza abatuye mu byaro cyangwa ahantu hakunda kubura amazi, aho bakoresha ibyuma bakazamura amazi mu kuzimu hasi cyane bityo abayavoma bagakoresha ikimeze nka pompe bakabona amazi.

Ahagejejwe amazi meza mu baturage, abungabungwe kugira ngo adapfa hanyuma bakongera kubura ayo bakoresha kandi n'aho ataragera hitabweho.

Mu kurushaho kunoza isuku, hashyirwaho kandagirukarabe, aho ukandagira ku gatsinga kesitaye ku ndobo irimo amazi, hanyuma amazi akimanura, nawe ugakaraba bitakugoye.

Amavomo rusange yegerejwe abaturage ku buryo n'iyo utumye umwana agenda akavoma, hanyuma yenda wowe ukagenda uyaterura kuko ijerekani atayishobora bitewe n'ikigero agezemo.

Iyo ushaka kubika amazi kugira ngo nabura ubone ayo ukoresha, bisaba ko ushaka ibigega binini, hanyuma ukajya ushyiramo amazi igihe ayandi yabuze ukabona ayo ukoresha.

Mu rwego rwo kurushaho gushyigikira abari n'abategarugori, bashyiriyeho inzego zihariye zibakurikirana, zikabakangurira ko ari ab'agaciro, kandi bafite n'imbaraga zo gukora byinshi byateza sosiyete nyarwanda imbere.

Ibice byose siko byagejejwemo amazi meza kuko hari naho bakivoma mu bidendezi, na bo bagomba kwitabwaho hakagezwa amazi meza.

Hari ibikorwa remezo byinshi bigezwa ku baturage bitanzwemo inkunga n'umuryango urimo Worudi vijoni aho bafasha Wasake bakageza amazi meza ku baturage.

Iyo Abanyarwanda batagira abajyanama b'ubuzima, hari indwara nyinshi ziba zikiri nyinshi mu baturage ariko kuko na bo bashyizweho bagafasha abaturarwanda kurwanya indwara, bituma zigabanyuka ku kigero cyo hejuru.

Hari ibyorezo biza bigasaba ko bafata ibizamiini bihagije ngo bagusuzume, barebe ko utaba wanduye icyo cyorezo, aho abaganga bakwirakwizwa hirya no hino, bagafata abaturage ibizami bishoboka.

Amazi meza iyo yegerejwe abaturage bisaba ngo na bo bashyireho akabo, bayabungabunge kugira ngo atazapfa ugasanga kongera kuyatunganya bifashe ikindi gihe, bityo muri icyo gihe bakaba babayeho nta mazi meza bafite.

Ibiganiro mpuzamahanga birakorwa hakareberwa hamwe icyatuma ubuzima butera imbere ndetse hagashorwamo n'amafaranga menshi. Kuko iyo abaturage ari bazima bituma n'ibindi bikorwa byose byiyongera.

Amazi dukoresha yabaye meza. Hari aho aba yabanje gucishwa agatunganywa, kugira ngo havanwemo imyanda ndetse atugereho ari meza ntagire ingaruka ku bantu bayakoresha.

Mu ngo zacu aho dutuye isuku tuyigire intego, dukaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune kuko intoki zikora ahantu henshi hatandukanye, bigatuma zandura vuba kuko ziba zikora ibintu byinshi.

Mubyeyi ita ku mwana wawe kandi iteka igihe umuteruye, umwereke ko umufitiye ubwuzu n'ubwo utavuga ngo agusubize ujye umuganiriza kuko bimugirira umumaro kuko byagura ubwonko bwe.

Mu bigo by'amashuri hagomba kwitabwaho, hagashyirwa amazi meza kugira ngo abana bahiga igihe bakeneye ayo kunywa, bajye bayabona aho kugira ngo banywe ayo babonye, abatere indwara ziganjemo inkorora n'ibicurane.

Amazi ni yo afasha abantu mu bikorwa bakora buri gihe ndetse ni yo y'ibanze kugira ngo umuntu abeho kuko yaba mu gutegura ibimutunga cyangwa gukora indi suku yifashisha amazi.

Karaba intoki zawe n'amazi meza kandi bizagufasha kwirinda indwara zituruka ku mwanda kuko ibiganza by'umuntu biba byakoze ahantu henshi hatandukanye, bityo biba bisaba ko ubisukura neza.

Amazi ni isoko y'ubuzima, kuko akoreshwa mu bintu bitandukanye bituma ubuzima bw'umuntu burushaho kumererwa neza, arimo gutegura amafunguro, kuyoga, cyangwa se byasukurisha.

Kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abaturarwanda, ntabwo inama iyo zibaye zitabirwa n'abaturage gusa. N'inzego z'umutekano nazo ziritabira kugira ngo zikomeze gutanga message ifasha abanyarwanda mu umutekano.

Twite ku bana kuko ni bo nkingi y'iterambere ndetse n'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko abakuru bo tugenda dusaza ariko abana nibo babyiruka kugira ngo bazakore inshingano abandi bakoraga. Bagomba kwitabwaho rero ku buryo bwose bishoboka bagahabwa ibibongerera intungamubiri n'ibituma bakura vuba.

Ahashyizwe amavomo rusange havomwa n'abaturage, benshi bityo uko baje bakurikirana bagashyira amajerekani ku murongo, kugira ngo bitazana umuvundo bakavoma barwana.

Guhuriza hamwe abaturage bagasobanurirwa serivisi zijyanye n'iz'ubuzima ndetse bagashishikarizwa uko barushaho kwita ku buzima bwabo n'ubw'abana babo ndetse n'imiryango yabo muri rusange

Buri gihugu kigira umuco wacyo kandi kikagira n'imyambaro gakondo ikiranga, hari abambara ibitenge ndetse hari n'abagira indi mitako bambara mu mutwe no mu ijosi, ureba ukabona ibereye amaso.

Inama zirategurwa zigahuriramo abantu batandukanye, kugira ngo hatangirwemo ibitekerezo kandi buri wese ntaniganwe ijambo, agasobanura ibintu uko abyumva ndetse nuko abona byagenda.

Gana kwa muganga wisuzumishe barebe uko ubuzima bwawe buhagaze, bagufate ibipimo by'ibanze nk'uko umutima wawe utera ndetse n'ikigero cy'isukari ufite mu mubiri kandi banakurebere ko nta bwandu ufite butera SIDA.

Amazi meza iyo yegerejwe abaturage, bituma buri wese ajya kuyizanira kuko aba ari hafi, ntibitume abana boherezwa kure, ahubwo amazi akaba ahari hafi aho muri karitsiye.

Abaganga bambara udupfukamunwa kugirango birinde indwara zandurira mu nzira z'ubuhumekero, ndetse n'abaje kwivuza baba bagomba kutwambara kugirango birinde kwanduzwa izindi ndwara n'abo bahuriye kwa muganga.

Gahunda yo gukingira abana ndetse no mu bigo by'amashuri irahagera, kugira ngo hirindwe ibyorezo ndetse n'ubundi burwayi bwaza bukabataka.

Gupima ibiro by'abana ntabwo biba bihagije gusa, hari n'amabwiriza ahabwa ababyeyi kugira ngo barusheho gufata abana babo neza, ni ba ibiro ari bikeya bagire uko bitwara babyongere.

Abana aho bava bakagera bose bakunda amazi, ugomba kumubwira igihe amaze guca akenge ko amazi yose atanywebwa, igihe hari ayo arimo akina nayo ntayanywe bitewe n'uko atari meza.

Inama mpuzamahanga yabereye i Kigali mu Rwanda yo kurebera hamwe ukuntu hahagarikwa icyorezo cya mabaga, cyari cyamaze gufata bamwe na bamwe muri iki Gihugu cy'u Rwanda ndetse hari n'ibindi bihugu yari irimo.

Tujye twibuka ko amazi nubwo aba yasukuwe ariko biba bidahagije, nko kuyanywa biba bisaba ko umuntu yongera akayateka akabira neza kandi tubyibutse n'abana ko kunywa amazi yose abonetse atari byiza.

Hari ibipimo by'ibanze bifatwa iyo ugiye kwa muganga, kugira ngo barebe ko uburwayi ufite atari indi mpamvu ibitera, hari nko gupima isukari ufite mu mubiri, ndetse n'uko umutima wawe utera.

Dutoze abana bacu kugira isuku ndetse bibuke gukaraba bakoresheje amazi meza n'isabune. Yaba aho bari ku ishuri cyangwa se n'igihe batashye bari mu rugo babigire umuco.

Bitewe n'amazi aba yegerejwe abaturage, igihe umubyeyi afata umwana akamwogereza hafi y'ivomo, kugira ngo amukorere isuku, kuko hari n'abafata imyambaro bakajya kuyimesera ahari...

Ahashyizwe impunzi bahabwa amazi meza ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha kandi bagahabwa ibintu byo kuvomeramo bitaremera, kugira ngo nibiba ngombwa ko bavaho bari bitazabagora kubyimukana.

Abaturage bagiye begerezwa amazi meza, kugira ngo barusheho kwirinda indwara zikomoka ku mwanda, kandi babone n'uko bakuhira imyaka mu gihe cy'impeshyi.

Abana mu mashuri iyo hari amazi biraborohera kuko bituma bakora isuku uko bikwiriye, yaba mu mashuri bigamo cyangwa no ku biganza byabo.

Ikigo nderabuzima cya Mayange giherereye mu karere ka Bugesera, gifite abaganga babizobereye kandi gihabwa inkunga bigatuma bita ku baje babagana uko bashoboye.

Amazi meza yegerejwe abaturage, amajerekani y'umukara icyatsi ndetse n'umuhondo, ibikoresho byiganjemo amabase ndetse n'amasafuriya.

Buri mudugudu ugira abajyanama b'ubuzima bafasha abana ndetse n'abagore batwite, n'abafasha abarwaye muri rusange, ndetse bageza igihe bagahurira hamwe bagahabwa amahugurwa y'ibyo bagomba gukora kandi neza.

Imyandiko ikorerwa kwa muganga, aho bandika uwaje abagana mu gitabo kugira ngo huzuzwe umwirondoro w'uwaje kwivuza, hagaragare raporo ikorwa buri mwaka uko abantu bagiye bivuza.

Mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda, ndetse abana bato bakitabwaho cyane, bagenerwa inkingo zose zabarinda kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Uwahoze ari minisitiri w'ubuzima Diane Gashumba, akingira abana kugira ngo atange urugero rw'uko abana bagomba kwitabwaho bagahabwa inkingo.

Iyo hateguwe inama ni ukugira ngo abaturage bahurire hamwe, hanyuma ubutumwa bagenewe bubagereho rimwe kandi ari benshi, kuko hari igihe biba bidashoboka ko wagera muri buri rugo.

Ahagejejwe amazi meza hose, ntibivuze ko ahagije kuko hari aho usanga hatondetswe amajerekani menshi bigaragara ko abayakoresha aba ari benshi, amazi akaba make.

Ahari amazi bigaragara ko abahatuye baba bafite umunezero, kuko ibyo bagiye gukora byose bakeneye amazi bayabonera hafi, aho kwirukanka imisozi bajya kuyashakira kure.

Amazi ni ubuzima niyo mpamvu hagomba gushyirwa mu bigo by'amashuri cyangwa ahantu hahurira abantu benshi hagashyirwa amazi meza abantu bakayakoresha bari kuyanywa cyangwa banasukura ibiganza.

Mubyeyi igihe ubona ko umwana wawe atameze neza, ihutire kumujyana ku ivuriro rikwegereye basuzume ikibazo yaba afite, aho kugira ngo umushakire imiti yindi idahwanye n'ikibazo yaba afite.

Igihe igihugu cyacu cyari cyugarijwe n'icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda, hari abantu bafashe akazi k'ubukorerabushake, bakajya bapima abantu kugirango ngo barebe ko badafite umuriro uri hejuru.

Kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza yaba mu mibereho ndetse n'imyigire, hari imishinga ifasha abana ikabatera inkunga, bakabona imyambaro ndetse bakabona n'uko bishyura amafaranga y'ishuri, harimo uwitwa UNICEF.

Hari aho bigaragara ko bakivoma amazi y'ibidendezi, aba ari mabi kuko iyo akoreshejwe bituma abayakoresha bahura n'indwara zikomoka ku mwanda, ndetse bakarwara n'inzoka. Ahantu hose hitabweho hashyirwe amazi meza.

Mubyeyi jyana umwana wawe ku ivuriro, kugira ngo barebe ko ari gukura neza ndetse na randevu z'inkingo baguhaye ubyitabire kandi unapimishe ibiro bye kugira urebe ko ari gukura neza.

Abaganga bagira imyambaro yihariye harimo irinda ku mutwe ndetse n'iyindi irinda imyanya y'ubuhumekero, iba ipfutse umunwa n'amazuru ndetse n'iyindi bambara ikingira imyenda.

Aho amazi meza yagejejwe, ubuzima buba ari bwiza kuko ibikorwa byose byifashishwa amazi bitagorana gukorwa, nko kumesa imyenda cyangwa gukaraba ndetse no gutegura amafunguro.

Mu kurushaho kunoza serivise z'ubuzima, hagiye hubakwa inzu izwi nka Poste de Sante muri buri Kagari kugira ngo abantu bahatuye bajye bivuza bitabagoye.

Ahakusanyirizwa amazi, agatunganywa kugira ngo yoherezwe mu miyoboro migari, na yo ibone uko iyayobora mu marobine aho abantu bavoma ari benshi.

Igihe hariho gahunda yo gufata urukingo tujye twitabira twese kuko birafasha nk'ubu byatumye icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda tugihashya gicika mu Rwanda vuba.

Ibikoresho dukoresha mu rugo nk'ibyo tuvomeramo amazi, bigomba na byo gukorerwa isuku kuko iyo bimaze igihe bidasukurwa, bituma amazi niyo yajyamo ari meza, ahinduka mabi.

Ibikorwa remezo bituma tubona amazi meza abanza gucishwa ahantu habugenewe, agatunganywa kugira ngo yoherezwe mu baturage bayakoreshe.

Inama zateguwe neza kandi zigakorerwa ahantu habugenewe hafite isuku ihagije, kandi hagategurwa n'amazi yo kunywa, ndetse n'abitabiriye bigatuma batagira inyota.

Abaturage bitabire kugira akarima k'igikoni aho batuye, kuko ntigatwara umwanya munini. Bituma uko uteguye amafunguro yawe uyateguramo indyo yuzuye.

Kugira ngo utange ubutumwa bigere ku bantu benshi, bisaba ko utumiza inama mugahurira ahantu hanyuma ukabaha ubutumwa bwa bo, bikabageraho byihuse bidatwaye igihe kinini.

Kuko hari abatinya gufatwa amaraso, bisaba ko ubanza ukamusobanurira kandi ukamwereka ko ikizamini agiye gufatwa nta y'indi nzira byacishwamo, bityo na we agafatwa amaraso nta bwoba afite.

Imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa bitandukanye, birimo kugeza amazi meza ku baturage ndetse no gufasha abana igihe bagiye mu mashuri, no mu bundi buzima bwabo busanzwe.

Ubu mu Rwanda hari gahunda yashyizweho mu bigo bya leta byo kugaburira abana biga primary ndetse n'abiga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri bagahabwa amafunguro ku kigo aho biga.

Hari abagikoresha amazi aca mu matiyo bigaragara ko ashaje ndetse aho usanga muri ayo mazi harimo utuvungukira two muri ayo matiyo nabyo bigomba gukosorwa.

Toza abana kugira isuku, kandi bajye bakaraba intoki neza n'amazi n'isabune igihe batarageza igihe cyo kubyikorera nawe ubafashe. Kugira ngo batazajya barwara indwara zikomoka ku mwanda.

Hari uburyo budahenze wakoresha ugashyira hafi y'ubwiherero, kugira ngo abana aho bavuye mu bwiherero bajye bakaraba intoki, babyita kandagira ukarabe kuko ni indobo ukoresha n'utwuma ndetse n'akabase.

Ibitaro byinshi bigira abarwayi barengeje ubushobozi ivuriro kuko usanga abaganga baba ari bakeya abarwayi bakaba benshi, bigatuma hagaragara umubare w'abarwayi benshi batitabwaho ngo batahe vuba.

Imbangukiragutabara zahawe ibitaro byinshi bitandukanye ndetse n'ibigo nderabuzima, kugeza ubu hari na nimero uhamagara, igihe ufite umurwayi mu rugo ubona utabona uko umugeza kwa muganga ambulance ikaza kumugutwarira.

Tujya dusanga abantu ahantu ku mihanda bigaragara ko ubuzima bwabo bwo mu mutwe butameze neza niyo mpamvu tugomba kubimenyesha ubuyobozi kugira ngo bafashwe bitabweho bavurwe bongere bagaruke mu buzima buzima.

Si byiza y'uko umuntu ugaragayeho ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, afatwa nk'itungo kugeza ubwo azirikwa ku giti ahubwo aba agomba guhabwa ubuvuzi kuko hari ibitaro byagenewe kubavura.

Ubuzima bw'abana bato ndetse n'ingimbi n'abangavu, bugomba kwitabwaho kuko baba bageze mu gihe batekereza utuntu twinshi dutandukanye, baba bagomba kubugwabungwa kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu mutwe butahangirikira.

Polisi y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda ndetse n'abandi bose barutuyemo ko kurwanya ihohoterwa ari inshingano ya buri muntu wese.

Abantu bakunze kugaragarwaho nko kwicara ari bonyine igihe kinini, bagatekereza bakajya kure hari igihe bibaviramo ikibazo cyo kugira uburwayi bwo mu mutwe bikabije, bikaba byanatuma bafata imiti yo kwa muganga.

Polisi y'u Rwanda yashyizeho ishami ryitwa Isange One Stop Centre, bafasha abantu bagize ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umuntu wese uko yaba ari yakwitabwaho kandi ubuzima bukagaruka mu murongo. Abo tubona bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bukabije, tugomba kwegera inzego zibishinzwe bagafashwa, bagahabwa ubuvuzi.

Abantu bagiye begerezwa serivisi igihe hariho gahunda yo gusuzuma ndetse no gupima abantu covid cumi n'icyenda kugira ngo abo basanga baranduye icyo cyorezo bajyanwe ahabugenewe bavurwe.

Umubyeyi igihe wumva umwana wawe afite umuriro udasanzwe, ni byiza ko wegera abajyanama b'ubuzima bakwegereye bakagukumira umwana bakareba yuko umuriro afite utarenze urugero hanyuma bakagira icyo bagufasha.

Abasheshe akanguhe nabo ntibatana no kwizihirwa bambara umwambaro w'intore bagafata icumu bagahamiriza, bagacinya akadiho hanyuma ibyishimo bikabarenga.

Amenyo yawe ni ayagaciro, yiteho ku buryo buhagije uyakorera isuku ihagije kandi igihe wumva uyababara wihutire kujya kwa muganga ufashwe.

Abari ndetse n'abategarugori bafashe iya mbere mu kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abantu, cyane ubwo mu mutwe, kuko iyo bwangiritse ni ho haheraho n'ibindi bibazo byose.

Mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, habaye igikorwa cyo kwica ubwoko bumwe bw'abatutsi, bakorerwa jenoside, niyo mpamvu hirya no hino hari inzibutso, duhora twibuka abacu bahaguye.

Hari ababyina imbyino gakondo babigize umwuga ndetse usanga banabisaziyemo kandi aho bari bagasusurutsa abantu ku buryo bubereye amaso.

Inzego zitembere mu baturage, zikabaza imbogamizi ndetse n'ikindi kibazo baba bahura na cyo mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo izo raporo zitangwe hafatwe ingamba z'uko ibibazo byakemuka.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari ibigo byinshi byishyira hamwe, bikigisha ubuzima bwo mu mutwe n'uko hajya hafashwa abagize icyo kibazo kuko bimaze kugaragara ko abafite ikibazo cyo mu mutwe ari benshi.

Biba byiza iyo mu gusoza umwaka w'amashuri abana bakorewe ibirori ndetse bakambikwa n'amakamba kandi bakaba bambaye umwenda uranga ikigo bigagaho bigatuma abana bishima bakanezerwa.

Nubona ufite ibimenyetso birimo kwigunga ukumva uriyanze, ugatekereza ko ubuzima bwawe bukurangiriyeho, gana ivuriro bagufashe kuko uba watangiye kugira ikibazo cyo mu mutwe.

Mu buzima bw'umuntu habamo ingorane nyinshi ndetse hari n'uhura n'ibibazo bitandukanye bikananirwa gukwirwa mu mutwe we, ugasanga yagize ikibazo gituma agomba guhabwa ubuvuzi.

Umudamu wicaye ku ntebe y'urubaho akenye igitenge yambaye agashati karimo amabara, umusambi urambuye mu nzu, inzu bigaragara yuko ishaje cyane.

Ubuzima bwo mu mutwe bugomba kwitabwaho kandi buri wese akabigiramo uruhare, kuko iyo bwangiritse bituma n'ibindi bikorwa byose byangirika, harimo kwiyitaho cyangwa kwita ku bandi.

Gerageza mu byo ukora byose wibuke ko ugomba kuruhuka amasaha yagenwe, bizafasha ubwonko bwawe gukora neza, kandi bikurinde n'indwara zishingiye kuba utaruhutse bihagije.

Abagaragarwaho n'ikibazo k'ihungabana bafite mu mutwe bigaragarira ku myambaro bambara n'inkweto ndetse n'ibintu ubona bitwaza aho usanga batoraguye ibintu by'imyanda ugasanga barabifite.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima rbc gikora inama kigahuriza hamwe abantu bavuye hirya no hino, kugira ngo barebere hamwe uko ubuzima bw'abantu bwarushaho kuba bwiza.

Ubukangurambaga ndetse n'inama nyinshi, zirakorwa kugira ngo arusheho kurebererwa hamwe icyatuma ubuzima bwo mu mutwe bw'abantu bugenda neza, dore ko hagenda hagaragara abantu bahura n'ibibazo byo mu mutwe benshi.

Mu bucuruzi ukora ubwo aribwo bwose, zirikana ko kwakira abaje bakugana, ukabakirana urugwiro ari ingenzi, kandi tondeka ibicuruzwa byawe neza utabivangavanga.

Gahunda yo kwibuka iba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni gahunda ngarukamwaka, aho tuba twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane.

Kubera ibibazo byinshi abantu bahura na byo bitandukanye, hari abo birenga ubwenge bwa bo ugasanga batakaje ubushobozi bwo kwiyitaho ndetse ugasanga bibera ku mihanda batoragura imyanda, tubafashe bagezwe aho bagomba kuvurirwa.

Abantu bakunda amabara atandukanye, ariko mu myambaro ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, usanga umwenda ukozwe muri ayo mabara, uba usa neza, uwambaye ukabona araberewe.

Itariki icumi, ukwezi k'ukwakira haba igikorwa ku isi hose cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Bimaze kugaragara ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gifitwe n'abantu benshi, niyo mpamvu hakorwa ubukangurambaga ndetse hagategurwa n'inama nyinshi, zikiga kuri icyo kibazo ngo harebwe uko cyagabanyuka.

Umuntu ubona afite ikibazo cy'ihungabana, bishobora kumuviramo nko kurwara uburwayi bwo mu mutwe, mwegere igihe hari icyo ushoboye umufashe cyangwa se wihutire kumujyana aho yahabwa ubuvuzi.

Umwana niwe mujyambere w'ejo hazaza agomba kwitabwaho akabungabungirwa ubuzima bwe kuko ejo ni we uzaba afite inshingano amaze kuba mukuru.

Imiryango yegamiye kuri Leta, ifasha abaturage kubungabunga ubuzima bwabo, bakabashishikariza kurya indyo ikwiye kandi bakagira isuku muri byose ndetse n'ubwiherero bwabo bukaba bumeze neza kuko byagaragaye ko nabwo hari indwara bwanduza iyo budasukuwe.

Ibikorwa bigaragaza ko umuntu atagitekereza neza ahubwo afite ikibazo cyo mu mutwe, bityo abamubonye baba bagomba kubibwira ababishinzwe hanyuma akajyanwa mu ivuriro ryabugenewe.

Mu karere ka Nyaruguru hari ibitaro by'akarere byitwa Binini, bitanga serivisi z'ubuvuzi ku bahatuye, dore ko mu gihugu hagenda hongerwamo ibitaro kugira ngo abanyarwanda barusheho kwegerezwa serivisi z'ubuzima.

Imyambaro ikunze kuranga abategarugori ni ibitenge, abenshi ugasanga bateze n'udutambaro mu mitwe, hari n'ababa bageze mu myaka isa nk'iyisumbuye, ugasanga bitwaza inkoni.

Igihe ugize ibikubabaza cyangwa bigutera kurakara, jya wirinda kumara umwanya munini ukirakaye kuko uko urushaho kurakara cyane bigatwara igihe kinini, bituma hari indwara zataka umubiri wawe.

Abagizweho ingaruka n'ubuzima babayemo bigatuma batakaza ubwenge, aho usanga bambaye imyambaro yacikaguritse, ndetse batanakiyogoshesha imisatsi, na bo baracyari abantu, ni ukubajyana ahabugenewe bakavurwa.

Sukura amenyo yawe, ukoreshe imiti yabugenewe yo koza mu kanwa ndetse n'uburoso hanyuma uzaba wirinze uburwayi bwanduzwa n'uko amenyo atakorewe isuku ihagije.

Ubuvuzi butangwa n'ababizobereye cyane ubwo mu kanwa bisaba y'uko ujya kwa muganga bakareba ikibazo ufite ndetse n'iyo waba wumva amenyo yawe atakubabaza ugomba kujya gukoresha isuzuma.

Barera abana, yaba mu ngo cyangwa ku mashuri, bagomba kubashishikariza gusukura amenyo yabo, bakoresheje amazi meza ndetse n'uburoso na korogati.

Zirikana ko amenyo yawe ari ay'agaciro agomba kwitabwaho agakorerwa isuku kandi neza ndetse ugakoresha n'imiti yabugenewe yo gusukura mu kanwa.

Nyuma yo gukora isuku yo mu kanwa ukoresheje uburoso ndetse na korogate, hari igihe hasigara imyanda ifata hagati y'amenyo, koresha udukoresho twabugenewe uyikuremo.

Buri mezi atandatu, uba ugomba kujya aho bavurira amenyo kugira ngo bakurebere ko nta kibazo kindi kirimo n'iyo waba utayarwaye wumva atakubabaza.

Nyuma yo guhabwa ubuvuzi cyangwa gusukurirwa amenyo, ugomba kujya nawe ushyiraho akawe ukayabungabunga, ukayafata neza, ukoza buri gihe uko umaze kurya kugira ngo arusheho gukomera.

Iyo ucishijwe mu cyuma hagasohoka ifoto igaragaza mu kanwa kawe uko hameze, bituma babona amenyo afite ikibazo hanyuma ugahabwa ubuvuzi bujyanye n'ikibazo ufite.

Igisha abana ubatoze gukora isuku yo mu kanwa, bifashishije uburoso n'umuti wabugenewe ndetse n'amazi meza, kuko bizabarinda kurwara indwara zo mu kanwa.

Hari ababa bafite ibizinga ku menyo, bakumva ko bitavaho, ariko iyo ugiye kwa muganga uvura amenyo, aragufasha kuko bagira na gahunda yo koza amenyo.

Gusukura amenyo ukoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso ntago bihagije kuko hari imyanda iba yagiye isigara hagati y'amenyo, bisaba kuyikuzamo ubudodo bwabugenewe.

Gana ivuriro igihe ufite uburwayi bwo mu kanwa, ndetse n'iyo waba wumva nta kibazo ufite, ugomba kujyayo hanyuma bo bakakurebera ko nta kibazo ufite kidatanga ibimenyetso.

Amenyo yitabwaho ndetse hari ababyigiye bareba ikibazo ufite mu kanwa, hanyuma bakakuvura ndetse n'iyo akeneye kozwa barayakogereza, bagakuramo imyada iba yarafashemo.

Abana bato na bo hari igihe bagira ikibazo cy'amenyo, igihe agaragaje ibimenyetso ndetse n'iyo yaba atarabigaragaza mujyane kwa muganga, bamugusuzumire barebe ko nta kibazo gikomeye afite.

Igihe ufite uburwayi bw'amenyo isaba ko akurwamo, egera ivuriro ribifitiye uburenganzira kugira ngo abazagukura atazaba aba arimo abatabifitiye ubushobozi, bikakuviramo ubundi burwayi.

Zirikana gukura imyanda hagati y'amenyo iba yafashemo ukoresheje udukoresho twabugenewe, bituma arushaho kuba meza kandi ntube wayarwara.

Abaganga bakora muri serivisi zo kuvura mu kanwa, basohora ifoto igaragaza uburwayi bwawe kugira ngo babone aho bahera baguha imiti n'ubuvuzi ukeneye bwanyabwo.

Amenyo yawe iyo wayitayeho ukayakorera isuku, bituma utagira ipfunwe ryo guseka mu bandi. Kandi nawe bituma arushaho kuba meza kandi agakomera bityo bigatuma utayarwara.

Iyo ugiye kwivuza indwara zo mu kanwa, yaba amenyo cyangwa ikindi kibazo wagize, ucishwa mu cyuma hagasohoka ifoto igaragaza uburwayi bwawe, abaganga bakabona aho bahera baguha ubuvuzi.

Imashini ndetse n'intebe bikoreshwa kwa muganga kugira ngo barusheho gusuzuma abarwayi, ibibazo baje bafite, babone uko babandikira imiti ihwanye n'ibibazo bafite.

Amenyo yawe ni ay'agaciro niyo mpamvu ugomba kuyitaho uko bishoboka kose, bituma iyo uri mu bandi useka nta kibazo, kandi nawe biragufasha kuko iyo uri guhekenya ibiribwa ntayo urwaye bikukugendekera neza.

Amenyo afite agaciro gakomeye mu mibereho ya muntu kuko ni yo afasha umuntu guhekenya ibyo ariye ndetse agatuma n'iyo asetse agaragara neza mu bantu.

Amenyo yawe, agomba kwitabwaho, agakorerwa isuku ihagije, kugira ngo wirinde ingaruka z'uko yavamo, cyangwa agahongoka, kuko adufasha muri byinshi, mu guhekenya ibiribwa, bashize mu kanwa.

Koresha uburoso ndetse n'umuti wagenewe gusukura amenyo, hanyuma uyasukure neza wumve ko imyanda yashizeho, kugira ngo wirinde indwara ziterwa no kugira imyanda mu kanwa.

Amenyo yawe ari mu bintu by'agaciro ufite niyo mpamvu ugomba kuyitaho kandi ukayagirira isuku ihagije, kuko wibuke ko adufasha guhekenya ibiribwa twariye bityo bikagera mu gifu ntibikigore kubisya.

Isuku yo mu kanwa igomba kwitabwaho cyane, uko umaze gufata amafunguro ukabizirikana ugasukura amenyo yawe kugira ngo urusheho kuyarinda indwara za hato na hato.

Sukura amenyo yawe ku buryo buhagije ndetse na nyuma yo gukoresha uburoso ndetse na korogate, wibuke gucisha utundi tuntu tumeze nk'utudodo hagati y'amenyo kugira ngo uvanemo imyanda iba yafashemo.

Bitewe n'uburwayi wahuye nabwo hari igihehe kugenda bikunanira, bigasaba ko witoza kugenda gake gake, ugafata utwuma tubiri tugufasha kugenda utera intambwe ntube wagwa.

Abakuze na bo bakora imyitozo ngororamubiri igendanye n'imbaraga bafite, ariko bigatuma umubiri wabo urushaho kumererwa neza ndetse bikabarinda n'indwara yo guhinamirana kw'imitsi.

Ni byiza ko imiti ugiye gufata, usobanukirwa neza amabwiriza abigenga, kugira ngo udafata myinshi ikakugiraho ingaruka, cyangwa ugafata mikeya ntikuvure uko bikwiriye.

Abakuze na bo bagira imirimo bakora cyane nk'iyo bayitangiye bakiri batoya ndetse hari n'iyo wiga ukuze igihe wicaye ukaba wayikora ikakubyarira inyungu.

Mu muco nyarwanda, abagabo na bo barakenyera ndetse bakanitera, kandi abakuze kugira ngo bahabwe icyubahiro, bambikwa ingofero ndetse n'uyambitswe akiri muto biba bigaragaza yuko yubashywe afashwe nk'umubyeyi.

Abakuze nabo bagira urungano, bagahura, bakaganira, kandi bikabatera umunezero kuko baba bafite byinshi baziranyeho guhera mu bucuti bwabo bwa kera.

Kuganira ni byiza ku bantu babana, kuko bituma buri wese amenya ikibazo mugenzi we afite, kandi bigatuma umubano wanyu urushaho kuba mwiza kuko ibintu byose muba mwabiganiriyeho.

Umukino ni kimwe mu bintu bihuza abantu bakaganira kandi bagahuza urugwiro, bikazamura ibyishimo byabo kuko nta kindi baba bari gutekereza, baba birengagije byinshi bagahurira ku mukino.

Ikigero cyose waba urimo cyangwa n'ibiro waba ufite, si ngombwa guterura ibyuma nk'ibyo abandi baterura bifite uburemere bwinshi, nawe hari ibihwanye n'ibiro byawe wajya uterura kandi ugakora siporo.

Abafite amahirwe yo kuba bagifite abantu basheshe akanguhe mu miryango yabo, bagomba kubitaho kuko hari byinshi baba batagishoboye kwikorera nko koga neza uko bikwiye kuko imbaraga ziba zarabashiranye.

Toza umwana wawe akiri muto imyitozo ngororamubiri, ndetse n'imikino itandukanye. Kuko bizamufasha mu buzima bwe, ntibizamugora gukora siporo ni yo yaba mukuru.

Umurwayi uko yaba ari kose, aba akeneyewe kwitabwaho ndetse bituma agira icyizere cy'uko yakira vuba cyangwa yaba afite n'uburwayi budakira bigatuma yiyakira vuba.

Imikino iri mu bintu bituma abantu buzura akanyamuneza bagaseka. Aho mutuye nk'umuryango, mufate igihe mwicare murebe umukino muhuriyeho mwese muwukine.

Abantu bakuze na bo bagomba gukoresha ibisuguti ndetse bakanywa n'amata, aho kugira ngo babiharire abana gusa kuko intungamubiri ziba zibirimo umubiri wabo na wo uba uzikeneye.

Ababana n'abantu bageze mu gihe cy'izabukuru, bagomba kubaba hafi bakabitaho bishoboka kuko hari ibintu byinshi aba akeneye kandi atakibasha gukora, bisaba yuko umufasha.

Abaganga bita ku bantu bakuze, usanga bisaba ko ubaha umwanya kuko baba bafite ibibazo byinshi bibaza cyangwa ibintu byinshi bumva bakubwira, bisaba rero ngo ubatege amatwi.

Abahinzi bishimira imirimo y'amaboko yabo nk'igihe bejeje, dore ko ari byo bintu bidutunze twese kuko hatabayeho ibiribwa ntago n'abantu babaho.

Ibyishimo ni inkingi itera umuryango gutera imbere ndetse bigatuma n'ikibazo cyose cyaba babasha kukiganiraho kuko iyo bahuye nk'umuryango ntacyo bahishanya

Mu busitani aho utuye na ho wahakorera siporo kandi bikagira ingaruka nziza ku mubiri wawe, si ngombwa ngo ujye ukorera siporo aho abandi bayikorera.

Abantu bageze mu myaka yo hejuru bisaba ko bitabwaho kuko akenshi bahura n'uburwayi bw'imitsi ndetse no gutakaza imbaraga, bityo bababa bisaba ko bitabwaho n'abaganga bagafashwa.

Imyitozo si ukwirukanka cyane, ahubwo niyo ufashe umwanya ukagenda n'amaguru gahoro uko imbaraga zawe zingana na byo biragufasha kuko bigirira umubiri wawe akamaro.

Hari utwuma duhabwa abantu batakibasha kugenda neza uko bikwiriye tuba dufite amaguru ane, bikabafasha kutugenderaho bityo bakazagenda bongera kugarura imbaraga.

Igihe cyose uri gufata imiti wakuye kwa muganga, ugomba kubahiriza amasaha wahawe yo kuyifatiraho kugira ngo ikugirire umumaro kandi ntugire igihe na kimwe usimbuka.

Hari udukoresho na we watunga iwawe mu rugo nk'udupima isukari yo mu mubiri cyangwa imiterere y'umutima bityo na we byagufasha ukajya umenya uko umutima wawe uhagaze ndetse n'ingano y'isukari ufite mu mubiri.

Igihe cyose uhawe imiti no kwa muganga cyangwa wayiguze muri farumasi, reba neza agapapuro kaba kanditsemo amabwiriza y'uko iyo miti ikoreshwa ndetse n'abagomba kuyikoresha.

Imiti ihabwa abantu bafite ikibazo cy'uburwayi, igomba kuba yujuje ubuziranenge kandi nawe ugiye kuyinywa banza witegereze neza umenye ko nta ngaruka z'indi yagutera.

Uko umuntu agenda akura hari ibyinshi bihinduka muri we no ku mafunguro yafataga akaba yayabuzwa n'uburwayi cyangwa se hari igihe akeneye ayuzuye intungamubiri nyinshi zihagije.

Urukundo nirwogera, ikigero cyose abantu bagezemo, baba bagomba kubana neza kandi bakazarinda basaza bagifitanye ubumwe ndetse urukundo rukabayobora muri byose.

Hari abantu batinya kunywa imiti bisaba yuko ba banza kubitekerezaho cyane ariko abakuze bo hari igihe usanga kubera gufata imiti myinshi bituma bayitinya.

Tozwa n'ababihuguriwe yaba abaganga ndetse n'abandi bakwereke imyitozo yoroheje wakora bitewe n'ikibazo ufite kugira ngo imitsi yawe irusheho kugororoka ndetse no gukora neza.

Abantu bakuze kuko baba baratakaje imbaraga ndetse hari ibintu bimwe na bimwe baba batabasha kwikorera, bisaba ko abakiri bato babitaho kandi bakabikorana umutima mwiza babereka ko babitayeho.

Icyayi cy'u Rwanda kigirira akamaro abantu bagikoramo kuko basarura kandi bakagihingira, bagahembwa amafaranga abafasha mu miryango yabo ndetse cyiganje mu karere ka Rusizi n'aka Nyaruguru.

Ereka imyitozo umuntu ukuze yakora hanyuma bikamufasha igihe afite uburwayi atabasha gukora imyitozo isaba imbaraga nyinshi umwereke iyoroheje imufashe mu buzima bwe.

Ni twita ku buzima bw'umubyeyi utwite, ndetse n'ubw'umwana, tuzahashya ikibazo cy'igwingira hanyuma twicare tuvuge tuti hehe n'igwingira.

Inama zitandukanye zikorwa higwa ku kijyanye n'ubuzima bw'abantu, haba hagomba no gufatwa ifoto y'abitabiriye inama kugira ngo isigare ari urwibutso.

Igikorwa cyo kubaga umurwayi bitewe n'ikibazo afite, ntabwo gikorwa n'umuganga umwe, ahubwo haba hari n'abandi bamwegereye kugira ngo bafashanye, hanyuma uwo muntu ataza kugirira ikibazo gikomeye aho ngaho.

Fata urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda kugira ngo ubeho utekanye bikurinde kuba wayandura cyangwa se ngo uyanduze abandi.

Irinda abantu bafasha abahuye n'ibyorezo kugira ngo ibaburinde nabo batandura, kuko hari igihe usanga icyorezo cyandurira mu mwuka cyangwa mu gukoranaho.

Igihugu cy'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima ni yo ifata ingamba ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage ndetse ikanarebera hamwe, icyatuma abaturage bagira ubuzima buzira umuze.

Rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi, umenye uko ubuzima bwawe buhagaze.

Abaganga iyo bari gukora igikorwa cyo kubaga umurwayi, bisaba ko bitonda kandi bakabikorana ubushishozi, kandi bakaba bafite n'urumuri ruhagije rubamurikira mu gikorwa bari gukora.

Tujye twibuka kubahiriza amabwiriza yatanzwe na Leta, ndetse na minisiteri y'ubuzima, kugira ngo ubuzima burusheho kumererwa neza, kandi duhabwe n'inkingo ku gihe, dukurikize n'andi mabwiriza yose.

Gahunda yo kwirinda ni ingenzi kandi tuyishishikarizwa n'inzego z'ubuzima ndetse n'iz'umutekano kuko iyo ari icyorezo, gikwirakwira mu bantu vuba. Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima igihe hari icyorezo, tugomba kuyubahiriza nko guhana intera ndetse n'amafunguro afatwa mu kurushaho kwirinda icyo cyorezo, hanyuma bigatuma tugihagarika vuba.

Minisiteri y'ubuzima ikorera mu gihugu cy'u Rwanda, iyobowe na dogiteri Nsanzimana Sabin, ubu ni we minisitiri w'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda.

Ibimenyetso bishobora kugaragaza ko urwaye indwara ya diyabete, nko kutareba neza, ndetse no kumva wacitse intege mu mubiri wawe, kwihagarika inshuro nyinshi, n'ibindi igihe ubibonye, gana kwa muganga.

Rinda umubiri wawe, ukoresha imboga ndetse n'imbuto zabugenewe, kugira ngo wirinde uburwayi bwa hato na hato, kandi imirire yawe ni yo igena ubuzima bwawe bw'ejo hazaza.

Abari ndetse n'abategarugori, twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare, kuko ivurwa igakira. Rero niyo mpamvu umuntu wese agomba kubyitabira kugira ngo abungabunge ubuzima bwe.

Ibyorezo byinshi bijya biza bigakwirakwira mu bihugu byinshi bitandukanye, harimo n'ibiba byaturutse mu nkende. Ariko abashakashatsi ndetse n'abahanga barakomeza bagashaka inkingo bakazitera abaturage.

Iyo hari kubakwa inyubako zitangirwamo serivise z'ubuzima hari n'icyumba cyihariye kibikwamo imiti kugira ngo ijye ihabwa abaje kwivuza kandi bigasaba ko bakora sitoke nini kugira ngo batazajya bayibura.

Ibitanda ndetse n'amarido amanikwa kugira ngo atandukanye igitanda n'ikindi, abarwayi baryamaho igihe baje kwivuza ntibatahe bakenewe guhabwa ubundi buvuzi bari mu bitaro.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal biherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Kacyiru, ubu byaraguwe kandi byongererwa ubushobozi, ku buryo bavura indwara zirenze izo bavuraga.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi yaba mu bigo nderabuzima cyangwa amavuriro makuru, hashyirwaho icyapa kigaragaza serivisi batanga ndetse n'aho zitangirwa kandi hagomba kuba hari n'idarapo ry'igihugu.

Intebe washyira mu ruganiriro iwawe cyangwa mu biro aho ukorera ndetse wazitegura n'aho wakirira abashyitsi bawe, kandi ugashyiraho n'ameza bijyanye akozwe mu giti.

Ahubakwa ibigo nderabuzima cyangwa ibitaro, hashyirwaho n'inzu yihariye y'ababyeyi kugira ngo uje kubyara cyangwa ufite ikindi kibazo, abone uko ahabwa ubuvuzi bwihariye.

Abaganga ntago bavura abarwayi gusa ahubwo bageza n'igihe bakababaza uko bameze kugira ngo bumve ko igikorwa bakora cyo kubavura hari umusaruro ufatika kiri gutanga.

Farumasi zicuruza imiti ivura abantu ndetse hari naho usanga bacuruzamo amavuta yo kwisiga ndetse n'imiti yo kogesha amenyo.

Mu bitaro byinshi, usanga inzu yihariye ababyeyi bakirirwamo, itandukanye n'izindi kuko bo bakenera ibikoresho byinshi kandi byihariye bitari nk'ibyo abandi bakenera.

Kwa muganga n'aho hitabwaho hagakorerwa isuku, ndetse hagashyirwa n'ubusitani butanga umwuka mwiza, kandi nabwo bugakorerwa isuku ihagije, bigatuma harushaho kugaragara neza.

Iyo ugannye ivuriro, hagomba kwandikwa umwirondoro wawe, ndetse hakandikwa n'ikibazo ufite kugira ngo babone uko bagukurikirana, wamaze kubabwira uko wowe umeze.

Bitewe n'ikibazo ufite ujya kwa muganga ukaba wahabwa icyumba kihariye kuko hari igihe bisaba ko wongererwa umwuka igihe uwo ufite ari mukeya, hagashyirwa naho gushyira imyanda igihe bibaye ngombwa.

Ibitaro bitandukanye bigira aho biryamisha abarwayi baje babagana iyo bafite uburwayi butabemerera gusubira mu rugo batavuwe ngo bakire kandi hari imiti y'ingenzi usabwa kugura, hanyuma ugatangira kuvurwa.

Iyi nyubako yubakiwe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ameza ndetse n'intebe bikoreshwa kwa muganga, amarangi ateye ku bikuta ndetse na parafo imeze neza.

Kwa muganga haba hari abantu benshi, kuko uburwayi ntibuteguza, kandi buri wese aba akeneye kuvurwa, hari n'igihe usanga aho wagiye badashoboye ikibazo ufite bakakohereza ku bitaro bibakuriye.

Igitanda cyifashishwa n'abaganga igihe bari gusuzuma abarwayi, kiba kirambuyeho ishuka nziza y'umweru, kandi igahindurwa buri gihe uko hagiye gusuzumwa undi murwayi.

Hari uburwayi uvurwa kuko wapimwe amaraso avuye mu mutsi, iyo umutsi wawe utagaragara bisaba yuko bahambira akantu ku kaboko, hanyuma ugafunga igipfunsi bakabona uko bavoma amaraso yo mu mutsi.

Abakorera mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, buri kiciro kigira umwambaro wacyo utandukanye n'uw'abandi kugira ngo habeho kumenya umuntu na serivisi atanga.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Ruhango, bimaze igihe bitanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi dore ko biri mu bitaro byubatswe kera muri iki gihugu cy'u Rwanda.

Ubuvuzi mu gihugu cyacu bwateye imbere, kuko hasigaye hari ibikoresho bihagije, byifashishwa mu gupima indwara abaturage bafite, kandi bifashishwa n'indangaminsi kugira ngo bakubwire igihe uzagarukira.

Ufite ubwishingizi nka buritamu cyangwa saniramu ndetse na radianti egera farumasi iraguha baguhe imiti kuko bakorana n'ibigo by'ubwishingizi.

Mu kurushaho gutanga serivise z'ubuzima, hirya no hino mu Gihugu hagenda hongerwamo Ibigo Nderabuzima urugero nk'Ikigo Nderabuzima cya Gishweru kugira ngo abahatuye babone ubuvuzi.

Mu rwego rwo kunoza serivisi z'ubuzima, hubakwa ibitaro byiza kandi bigezweho ndetse n'ibishaje bikavugururwa, hagashyirwamo inzira icibwamo n'abanyamaguru ndetse hagaterwa n'ubusitani buzana umwuka.

Mu nyubako zubakirwa gutangirwamo serivise z'ubuvuzi, hashyirwamo ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi iryo vuriro rizatanga. Niba ari amaso, hagashyirwa ibyo bikoresho.

Hirya no hino mu gihugu hashyizweho isange one stop center, kugira ngo bafashe abantu bitabira ibitaro bagize ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ahubakwa amazu atangirwamo serivise z'ubuzima, usanga afite isuku kandi yubatse ku buryo bwihariye kuko aba azamara igihe kirekire ndetse hagashyirwa n'ubusitani.

Intebe yicarwaho n'umuganga igitanda kiryamishwaho umurwayi kugira ngo asuzumwe ndetse n'amatara amurikira umuganga kugira ngo abone neza indwara ari gusuzuma.

Mu rwego rwo kurushaho kwirinda ndetse tukarinda n'abo twasize mu rugo, igihe tugiye kwa muganga tugomba kwambara agapfukamunwa neza, kugira ngo tutandurirayo izindi ndwara, bityo twaza tukaba twazanduza n'abo twasize muhira.

Mu bikoresho bigaragara kwa muganga, haba harimo intebe yicabwaho n'umuganga ndetse n'iyindi iryamishwaho umurwayi igihe bari kumusuzuma, buri muganga agomba kugira umwambaro wanditseho ibitaro akorera.

Mu nyubako zubakirwa gutangirwamo serivisi z'ubuzima, hashyirwamo ibikoresho bitandukanye kandi buri cyumba kigashyirwamo ibikoresho bitewe na serivisi izajya itangirwamo, harimo intebe ndetse n'ameza n'udutanda dutoya.

Ibitaro bya Akarere ka Nyarugenge byubatswe mu mujyi wa Kigali ahatangirwa ubuvuzi buteye imbere, dore ko hari na jaride yongerera umwuka mwiza abahagenda, igihe ushaka kwivuza uri mu mujyi wa Kigali wabagana ugahabwa ubuvuzi.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Ruhango. Na ho uhatuye cyangwa uhakorera wahagana ukivuza ndetse bashobora no kukoherezayo.

Ibitaro by'Akarere ka Shyira byaravuguruwe, byongererwa ubushobozi ndetse hashyirwa n'inyubako zijyanye n'igihe, aho gukorera mu nyubako zishaje zatuma haza izindi ngaruka.

Ibitanda bikoreshwa kwa muganga bitandukanye n'ibikoreshwa mu rugo kuko byo biba byihariye, hari aho ukanda bikegura umurwayi ndetse biba bifite n'amapine kuko hari igihe biba ngombwa ko umusunika aryamyeho.

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, hashyirwamo imitako ijyanye n'igikorwa gikorerwa aho hantu, kubera ibibazo abantu baba bafite bitandukanye, hashyirwamo imitako ijyanye n'abo bakira.

Hari uburwayi butaboneka inyuma ku mubiri cyangwa bugaragaza ibimenyetso bishidikanwaho, niyo mpamvu hari igihe ucishwa mu cyuma kugira ngo barebe ko imbere mu mubiri nta bundi burwayi ufitemo butagaragara.

Ibitaro by'Abashinwa byubatse i Masaka bikozwe ku buryo bwiza kandi burambye, aho inyubako zaho ubona ko zizakoreshwa igihe kirekire kandi hari na jaride nziza.

Ibitaro bya Nyanza biherereye mu Ntara y'Amajyepfo, icyapa kiranga aho ibyo bitaro biri, ndetse n'amabwiriza agenga abaza gusura, igihe amasaha y'akazi atangirira n'igihe arangirira.

Mu nyubako zitangirwamo ubuvuzi, hari n'aho bavura amaso, ndetse hari n'aho bisaba yuko uhabwa amarinete, kugira ngo ubone uko ureba neza, nk'iyo amaso yawe yatangiye gutakaza ubushobozi bwo kureba.

Inyubako zo kwa muganga zigomba kuba zirimo urumuri ruhagije, kuko ibikorwa bihatangirwa biba bikeneye ko umuntu areba neza icyo yakoze.

Ibikoresho birimo imashini zikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kandi zigakoreshwa hamwe n'abatoza kugira ngo bakwereke uko ubikoresha.

Ibikoresho bitandukanye bishyirwa mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho umuntu abika ibikoresho bye nko mu kabati, ndetse n'imashini zisuzuma abarwayi.

Hubatswe inyubako zitangirwamo ubuvuzi, hashyirwa ibendera ry'igihugu kandi buri hantu hagashyirwa ikiranga ahatangirwa serivisi kugira ngo uzishaka bitamugoye.

Ubuvuzi bw'amaso bugirira umumaro abantu kuko hari igihe usanga umuntu yaratakaje ubushobozi bwo kureba, yaba hafi cyangwa kure ndetse hari n'abahuma burundu ariko bakegera ibitaro bivura amaso, bagafashwa bakongera bakareba neza.

Imyambaro yihariye ikingira ababa bavura abantu, bahuye n'ikibazo cyo kurwara icyorezo, bigatuma na bo ubwabo birinda, ntibagire aho bahurira n'ubwandu bwabo.

Imashini zicomekwaho ibyuma bitandukanye, bigatuma kwa muganga bareba neza niba uhumeka uko bikwiye cyangwa amaraso yawe agenda uko bikwiye.

Kwa muganga hashyirwa ibitanda kugira ngo umurwayi uje arembye atari busubire mu rugo abone aho aryama, abone kuvurwa ari ahongaho ndetse akazana n'umurwaza.

Hubatswe ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge kugira ngo nabyo byunganire ibindi gutanga ubuvuzi, dore ko ibitaro bitaraba byinshi mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Hari ibigo byiyemeje kuvura abantu, bikoresheje imyitozo ngororamubiri, aho ubigana umubiri wawe ukongera ugasubira ku murongo, ikibazo wari ufite kigakemuka.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hashyirwamo n'icyumba kinini cyihariye cyagenewe guhurizwamo abantu, hanyuma bagahabwa amabwiriza ajyanye na serivisi z'ubuzima.

Mu mateka yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari ahagiye haba abami hagaterwa ibiti ndetse na n'ubu bigihari harimo ibinini cyane by'imivumu, ahanini usanga byitwa ibimana.

Abafite ubumuntu muri bo, batanga inkunga hakubakwa inzu z'ababyeyi cyangwa se ibitaro muri rusange, kugira ngo abatuye icyo gihugu babone uko bazajya bivuza igihe barwaye.

Utubati twihariye dushyirwa ahantu hubatswe inzu zo gutangiramo serivisi z'ubuzima kugira ngo hajye habikwamo ibikoresho ndetse hagashyirwa n'icyashyirwamo imyanda ndetse n'aho umuntu yakarabira.

Amashuka ashashe ku gitanda cyo kwa muganga afite ibara ry'icyatsi. Amarido ari mu ibara ry'ubururu ryererutse, kugira ngo ajye akingira igitanda, hanyuma ahari umurwayi n'ahari uwundi bibashe kubatandukanya.

Inyubako igezweho kandi yubatse neza, ushobora gutekereza yuko itaba hano mu Rwanda ariko yaratunganyijwe kugira ngo ijye itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba iherereye i Masaka.

Ibitanda bishyirwa kwa muganga kugira ngo abarwayi babone aho barwarira, hagashyirwa n'inzitiramibu kugira ngo zibarinde kwandura ubundi burwayi, burimo ubuterwa n'imibu na malariya.

Igitanda gisuzumirwaho abarwayi, kigomba kuba gishasheho ishuka, kandi icyo cyumba kiba kirimo amatara yongera urumuri, kugira ngo igihe bari gusuzuma umurwayi cyangwa bari kumubaga, babone neza igikorwa uko bagikora.

Amashashi y'umutuku ndetse n'ubururu, n'ayandi abengerana, ashyirwamo ibyamaze gukoreshwa, igihe havuwe umuntu bamubaze, igitanda agomba gukorererwaho icyo gikorwa gisukuye, kandi kiriho ibikoresho by'isuku.

Umunzani upima ibiro umwana afite kugira ngo harebwe niba ari gukura neza, hanyuma akomeze kwitabwaho igihe basanze ibiro afite bitajyanye n'igihe agezemo.

Ubu buri karere kagira ivuriro ndetse n'umurenge ukagira ikigo nderabuzima kugira ngo aho umuturage atuye cyangwa akorera abone uko yivuza igihe ubuzima bwe butameze neza.

Ibikoresho bitandukanye bishyirwa mu nyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo udutebe two kwicaraho ndetse harimo n'ububiko bw'aho wabika ibyo ukoresha n'aho wajugunya imyanda.

Iyo ugeze kwa muganga hari ibizami ufatwa, bigasaba yuko bagufata amaraso ndetse hari n'imiti baguha bacishije mu nshinge, bisaba yuko hari aho batobora ku mubiri wawe kugira ngo ubone uwo muti bitewe n'ikibazo ufite.

Buri kigo nderabuzima kigira aho cyakirira abaje bakigana, kugira ngo handikwe umwirondoro wabo ndetse bagaragaze n'ubwishingizi bakoresha bifuza.

Inyubako zubakiwe gutangirwamo serivise z'ubuvuzi, zubatswe ku buryo bugezweho kandi burambye, hagashyirwamo inzira aho abanyamaguru bazajya baca kugira ngo batangiza ubusitani.

Igitanda gitoya gisuzumirwaho abarwayi ndetse n'intebe zicarwaho n'abaje kwivuza cyangwa n'abaganga, n'aho bagomba gutereka ibikoresho kugira ngo bitangirika.

Intebe nziza ndetse n'ameza biteguranye ubuhanga, ndetse n'indabyo zagenewe gutakwa mu nzu bikozwe ku buryo bubereye ubireba.

Inyubako zigezweho zubatswe neza zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ubusitani bufasha abahatuye ndetse n'abahakorera guhumeka umwuka mwiza.

Abana bahabwa uburezi kugira ngo ejo bazavemo abantu bakomeye, bakora imirimo itandukanye iteza igihugu akamaro. Ni yo mpamvu bagomba kugana ibigo by'amashuri kandi bakiga neza bakitabwaho.

Icyumba cyihariye cyubakwa kwa muganga kugira ngo hajye hashyirwamo abana bavutse batujuje ibisabwa, kuko hari ibintu baba bagomba kurindwa igihe bataruzuza ubuzima bwo kujya hanze.

Mu kurushaho kunoza serivisi z'ubuzima, hagiye hubakwa ibitaro hirya no hino mu gihugu, ni nayo mpamvu hubatswe ibindi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, kugira ngo byunganire ibindi bisanzwe bikorera mu mujyi

Kurwara bibaho, ntabwo bivuze ko iyo umuntu arwaye ubuzima bwe buba burangiye, uba ugomba kugira icyizere kuko hari igihe uvurwa ugakira ndetse n'iyo ari indwara uzabana nayo nabyo ikabyakira.

Igitanda abarwayi barwariraho iyo bari kwa muganga gikozwe ku buryo bugezweho, aho usanga hariho utwuma ku ruhande turinda umuntu ngo adahanuka ndetse ugasanga hariho n'akandi kameze nk'ameza umurwayi yafatiraho amafunguro igihe yegutse.

Gana farumasi Goodlife baguhe imiti, kuko bakorana n'ubwishingizi nka RSSB, Sanlam, Radiant ndetse na Britam.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha giherereye mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rusizi; cyubatswe vuba kugira ngo cyunganire ibindi bigo nderabuzima bibarizwa muri aka karere.

Hari abantu bafite ubumuga bituma bagendera mu tugare, igihe hari gahunda y'inkingo cyangwa gusuzumwa indwara na bo bagomba kugezwa ahatangirwa iyo serivisi bakarebwa ko iyo ndwara ntayo bafite.

Ibitanda bishyirwa mu bitaro kugira ngo abarwayi babone aho baryama kandi bahabwe ubuvuzi kuko baba baje barembye ndetse bahabwa n'amashuka kandi haba hari n'inzitiramibu.

Mu kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abakuze, hashyizweho icyumweru cyahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abasheshe akanguhe cyangwa abageze mu zabukuru, yaba umukecuru cyangwa umusaza, irinde kumuhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose.

Ibikoresho bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri kandi bigakoreshwa n'abatoza babihuguriwe kugira ngo bafashe abaje babagana.

Igikoresho cyagufasha, gukuraho inda bikoroheye, kigura amafaranga, ibihumbi ijana na makumyabiri y'u Rwanda. Kigure nawe ugire mu nda hato.

Kora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe, kandi ugabanye n'umubyibuho ukabije, ndetse kugira ngo n'ibinure biri mu mubiri bidakenewe bisohoke.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa, mu buryo butandukanye, aho hari abayikorera mu ngo aho batuye, ndetse hari n'abitabira, aho ikorerwa ari rusange, bikabafasha kugorora imibiri yabo.

Hari inyunganirangingo zagufasha ugakora siporo bitakugoye, ndetse bigatuma n'igihe ufashe urugendo, igihe wari ufite akaguru kadakora neza, washyiraho inyunganirangingo ukabasha kugenda urugendo rurerure.

Kubera ko ubuvuzi bwateye imbere, hagenda haza n'ubuvuzi bwifashisha ikoranabuhanga, hari indwara zitagihitana ubuzima bw'abantu kuko inzobere mu buvuzi zabaye nyinshi kandi n'ibyuma bipima uburwayi butandukanye byabaye byinshi.

Ibikoresho byo kwa muganga, byiganjemo imashini z'ubwoko butandukanye zifasha abaganga gutanga ubuvuzi bwizewe, ku baje bagana ivuriro.

Umuntu ukora ibikorwa ngororamubiri bisaba ko aba afite umutoza wabihuguriwe ubizi neza kugira ngo amufashe haba kugira ibyo aterura aterure ibijyanye n'imbaraga ndetse n'ibiro afite.

Bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ufite hari igihe bisaba ko witabwaho n'abaganga barenze umwe kuko buri wese aba afite igikorwa agomba gukora cyane n'iyo biri busabe ko uhabwa ubuganga biturutse mu kubagwa.

Amazi ni meza kuko afasha umubiri w'umuntu yaba gusukura inyuma cyangwa n'imbere kuko uko uyanywa bituma ayungurura, agasohora imyanda iri mu mubiri.

Menya ko igihe ukora siporo, hari imirire ugomba gufata kandi ukabyitaho, amagi, inyama, imbuto zirimo: imineke, imizabibu, imboga zirimo amashu y'umutuku.

Ibiribwa byubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, imboga zirimo puwavuro y'umuhondo, amashu y'umutuku ndetse n'ay'icyatsi.

Egera abatoza babyigiye, babisobanukiwe bagufashe gukora siporo ijyanye n'umubiri wawe, kuko urabanza ugapimwa, hanyuma ukareba siporo wemerewe gukora.

Agatanda gato kazwi nka burankari yifashishwa mu kuvana umurwayi ahantu ari atabasha kwigenza, urugero nk'iyo hari uvunikiye ku kibuga, bamushyiraho bakamujyana hanze y'ikibuga.

Ibikoresho bitandukanye bishyirwa mu nyubako zubakiwe gutanga serivise zijyanye n'ubuzima, aho hashyirwamo intebe yicarwaho n'umurwayi ndetse n'indi ntebe ikoreshwa n'umuganga igihe ari kuvura umurwayi.

Siporo ikorwa umuntu ku giti cye cyangwa abantu benshi bishyize hamwe ndetse hari n'ababigize akazi, bagatoza abaje babagana bakishyurwa igihembo cyabo, .

Akuma abadogiteri bifashisha mu kureba uko umutima w'umuntu utera, bikabafasha kumenya uko bamuvura ndetse hari n'ibindi bikoresho byinshi bakoresha.

Amazi tunywa agomba kujyana n'ibiro dufite kuko nayo iyo abaye menshi mu mubiri ntago bigenda neza, ni nayo mpamvu uba ugomba kwita ku ngano y'amazi unywa kandi na bwo ntabe makeya.

Igihe cyose ukorera kwa muganga ugomba kwambara imyambaro yabugenewe, harimo iyirinda imyanya y'ubuhumekero ndetse n'iyirinda ibiganza byawe kugira ngo utazagira indwara uhandurira.

Igihe wumva umubiri wawe utameze neza ndetse ukumva ko n'imitsi yawe itagikora uko bikwiye, egera abaganga bagufashe kuko hari ababyigiye kandi babisobanukiwe ku buryo wakongera ukamererwa neza.

Imyitozo ngororamubiri iratandukanye kuko hari n'abasunika ibintu biremereye bikabafasha igihe bafite indi mikino bakina ibasaba gukoresha imbaraga nyinshi.

Igihe wagize ikibazo ku mubiri wawe ndetse hakazamo no kuvunika, egera abaganga babisobanukiwe kugira ngo abe ari bo bagufasha, udasanga abatabifitiye ubushobozi, bikaba byatuma imvune yawe irushaho kwiyongera.

Siporo ikorerwa no mu rugo aho umuntu atuye, akarambura ibyabugenewe, akicaraho kugira ngo ataza kunyerera akoreye ahantu hatabugenewe.

Amazi ni meza ku buzima bwacu kuko afasha umubiri kuyungurura imyanda irimo igasohoka ndetse bigatuma n'umubiri utagira ikibazo cyo kumagara.

Hiporo hari abazitangiye kera, bagoroye imibiri yabo cyane. Igihe wowe ari bwo ugitangira, ujye ukora ku kigero cyawe, utazigana abandi, ugasanga bikuviriyemo kuvunika.

Igihe ukunda gukorera siporo ahantu hisanzuye, byaba byiza ugiye uyikorera ahantu hari umwuka uhagije kandi hadaca ibinyabiziga kuko bituma uhumeka umwuka mwiza.

Indwara zose ntago zivurwa no kuba wanyweye imiti yo kwa muganga, ahubwo hari n'ibisaba ko ukora siporo hanyuma izo ndwara zigakira.

Ambara imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, ndetse n'inkweto zabugenewe kuko hari imyambaro wakwambara, igatuma udakora siporo neza uko bikwiye.

Aho uri mu rugo wakwambara imyenda ya siporo, hanyuma nawe ugakora imyitozo igorora umubiri wawe atari ngombwa ko ujya ahakorerwa imyitozo rusange.

Abatanga ubuvuzi bw'ibanze ibikoresho bagomba kuba bafite by'ingenzi higanjemo ga zo kurinda intoki, ibipimo bikoreshwa kugira ngo harebwe umuriro umurwayi afite, n'inshinge ndetse n'ibinini bya asipirini.

Ahakorerwa amarushanwa, hari abagomba kuba bahari bashinzwe gufasha abagize ikibazo, kuko hari igihe abirukanka batakaza imbaraga zose zikabashirana.

Nuba uri gukora imyitozo ngororamubiri ntuzibagirwe kwitwaza amazi kuko hari igihe ushobora gufatwa n'isereri cyangwa amazi akakubana make mu mubiri, waba wiyegereje...

Ahakinirwa imikino ngororamubiri itandukanye, harimo umupira w'amaguru ndetse n'iyinindi mikino, hagomba kuba hari n'abaganga bafite udusanduka turimo imiti y'ibanze, bagomba kwifashisha igihe hari umukinnyi ugize ikibazo.

Agatanda kifashishwa mu kuvana umuntu wagize ikibazo aho ari, iyo atabasha kugenda n'amaguru ye, gashyirwaho n'imigozi yo kumufata kugira ngo atagwa.

Kuko inkongi y'umuriro idateguza niyo mpamvu ahatangirwa serivise z'ubuzima naho hagomba kuba hari ikizimyawoto kugira ngo abaganga cyangwa se abadogiteri igihe batatswe n'umuriro bazabone uko bawuzimya.

Inyunganirangingo yifashishwa n'abantu bagize ikibazo cyo kugira nk'akaguru kadakora neza, bityo yakambara inyunganirangingo bigatuma abasha gukora urugendo atari bukore atayambaye.

Siporo ikorwa mu buryo bwinshi butandukanye, aho hari n'iyo guterura ibyuma bifite uburemere bugiye bitandukanye, ugaterura ukurikije ibiro ufite ndetse n'igihe umaze uterura ukagenda wongera ibiro uterura.

Amahugurwa cyangwa ubundi bumenyi abaganga hari ibyo bahabwa hifashishijwe ikoranabuhanga, kuko hari ibyo baba bakeneye kumenya kandi ubibaha ari kure.

Kora siporo ugorore ibice byawe byose by'umubiri kuko iyo ugoroye igice kimwe gusa, ikindi gisigaye gishobora kwatakwa n'uburwayi cyangwa ugasanga cyo ntigifite imbaraga nk'iz'ikindi.

Abazwi ku izina rya Croix rouge bagira udukoresho bagendana kugira ngo babone uko baza gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu ugize ikibazo, haba higanjemo uturindantoki, inshinge ndetse n'ibinini.

Igihe wirukanse, ukumva mungingo ntago hameze neza nko mu ivi kuko niho hafasha umuntu kwirukanka. Hagarara ubanze wumve ikibazo kirimo kandi niwumva gikomeye ube uhagaritse kwirukanka ahubwo ubanze ujye kwa muganga.

Iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari imiziki yabugenewe yumva, ndetse hari n'imyambaro umuntu aba agomba kwambara, kandi hari n'inkweto zabugenewe ntago ari ibibonetse byose.

Imyitozo ngororamubiri ni umuti uvura indwara zitandukanye kuko hari n'igihe kwa muganga bagutegeka kuyikora, ugashaka imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto hanyuma ukajya ukora imyitozo ngororamubiri.

Imiti y'ibanze ikoreshwa mu gutanga ubuvuzi ku bantu bakora siporo harimo iyo basiga ahababara cyangwa ahagize ikibazo ndetse na ga zambarwa n'abaganga kugira ngo zirinde intoki zabo.

Ugomba gukora siporo kandi ukanywa n'amazi ndetse ntiwibagirwe gufata amafunguro yiganjemo imbuto kuko bikomeza kubaka umubiri wawe bikawurinda indwara.

Agatanda kifashishwa mu gukura ahantu umurwayi ari, igihe atabasha kugenda n'amaguru, bigatuma bamugeza aho ahererwa ubuvuzi cyangwa se aho imodoka imutwara imujyana kwa muganga, atagize ikibazo kiremereye, aho kugira ngo bamuterure mu ntoki.

Ahakinirwa imikino itandukanye, haba hari n'abaganga bafasha abantu bagize ikibazo kuko mu kibuga hari igihe umukinnyi agiriramo ikibazo gitunguranye.

Igihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, yikorere ahantu habugenewe kandi hari umwuka uhagije ndetse wambare n'imyambaro ijyanye n'igikorwa ugiye gukora.

Agakoresho wakwambara mu ivi ariko ukandikiwe na muganga kuko karagufasha igihe ufite ikibazo cyo mu ivi, hadakora neza bituma ubasha kugenda nta kibazo.

Uri wenyine wakora siporo, niyo waba utazi iyo waheraho, wakwifashisha ikoranabuhanga bakakwereka uko wakora siporo kandi bikagufasha utiriwe ushaka umutoza.

Ibyumba bisuzumirwamo cyangwa bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zihambaye. Zisaba ko haba harimo urumuri rwinshi kugira ngo babone neza nk'iyo bagiye kubaga umuntu.

Mu mikino ngororamubiri, hari gihe abayikora bahura n'imvune, niyo mpamvu uba ugomba kureba ubisobanukiwe, nk'umuganga, akaba ariwe ugufasha, kugira ngo, ukire vuba.

Imyitozo ngororamubiri igirira umubiri akamaro kanini cyane, kuko bituma imitsi itemberereza amaraso neza mu mubiri ndetse n'ibinure bitari ngombwa mu mubiri bigasohoka kandi bigatuma nawe wumva ufite imbaraga muri wowe.

Ibikoresho bikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo imikasi, bande ndetse n'ibindi bapfukisha ahantu hakomeretse ku buryo budakabije.

Abakiri bato na bo bahabwa umwanya bagakora imyitozo ngororamubiri kuko bituma bakura ubuzima bwabo bumeze neza. Hari n'igihe ibigo bifata umwanya bigahura, hanyuma bigakina imikino ikabahuza.

Igihe ukora siporo zirikana ko no kunywa amazi ari ingenzi kuko amazi uba watakaje yasohotse mu mubiri aba ari menshi, biba ari ngombwa ko unywa ayandi ariko ukayanywa ku kigero cyagenwe.

Abantu bakora siporo bahabwa ubuvuzi bitewe n'aho yavunitse ndetse n'imvune afite barebye uburemere bwayo, hari aho bisaba ko bamushyiriraho icyo twita sima nk'ikintu kiba kiremereye ndetse hari n'igihe bamushyiraho ikindi gipfuko cyoroshye bitewe n'imvune uko imeze.

Siporo igomba gukorwa kuko ni ingenzi kuri buri muntu wese kandi akibuka kwambara imyambaro ikoreshwa mu gukora siporo ndetse akanywa n'amazi.

Igihe ukora imyitozo ngororamubiri, ibuka kugira indangagihe kugira ngo urebe y'uko umwanya ukoresha ugenda wiyongera kandi wibuke no kunywa amazi meza.

Iyo mu kibuga hagaragaye umukinnyi ugize ikibazo hagomba kuba hari abaganga hafi bamwegera kugira ngo nibasanga ikibazo agize gikomeye ave mu kibuga ajye gufashwa ari hanze yacyo.

Ibikoresho by'ibanze abatanga ubuvuzi bw'ibanze bagomba kuba bafite igihe bagiye kuvura ahantu hahuriye abantu benshi, hagomba kuba harimo umukasi ndetse n'igipimo gipima umuriro umuntu afite.

Mu buzima bwacu tugomba kunywa amazi buri munsi kandi meza. Kuko abasha gusukura mu mubiri imbere agasohora imyanda itari ngombwa ikava mu mubiri. Ni ngombwa rero kumenya n'ingano y'amazi ukwiriye kunywa bitewe n'ibiro ufite.

Inyunganirangingo ihabwa abantu bagize ikibazo cyo kuba batabasha kugenda neza akayifata mu kuboko bigatuma abasha kugenda urugendo atari bukore atayifite.

Amazi meza ntagira ibara kandi iyo uyasutse mu kintu aba asa nk'ikintu uyasutsemo. Ni ngombwa rero ko ayo dukoresha cyane ayo kunywa yitabwaho hagakorerwa isuku ihagije.

Umuryango wa croix rouge utabara imbabare, bakora igikorwa aho bajya ahabereye imikino cyangwa ahahuriye abantu benshi kugira ngo baze gufasha uwagize ikibazo bamugezaho agomba guhabwa ubuvuzi.

Igihe ugiye gukora imyitozo ngororamubiri ntuzibagirwe kwitwaza amazi, kuko uko wirukanka bituma umubiri wawe utakaza amazi uri kubira ibyuya, bisaba ko wongera ukanywa ayandi.

Imyitozo ngororamubiri buri wese arayikora, ariko iyo umenyereye ndetse n'utangiye ntabwo bikorwa kimwe. Bisaba ngo ugende ugorora umubiri wawe gake gake, bityo uzageraho urambuke.

Hari igihe ushobora kumva muri wowe utameze neza cyane nko mu ivi, biba bisaba kwitonda ntushyireho imiti iyo ariyo yose ibonetse kuko ari ahantu hahurira ingingo bisaba ko ujya kwa muganga bakagufasha.

Iyo ugiye guterura ibyuma bisaba ngo uhere ku bifiteibiro bikeya, niyo mpamvu uba ugomba kwegera abaganga, bakakwereka uko uzajya ubitere ndetse n'ibiro waheraho ushaka kugorora imitsi yawe.

Ibikoresho by'ibanze byifashishwa n'abatanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo umukasi, ibinini, ibipimo bipimishwa umuriro, ndetse na bande zafasha umuntu guhambira ahagize ikibazo, itoroshi n'ibindi birimo nka ga.

Kuko ubuvuzi bwateye imbere cyane, hari aho umurwayi ashobora kuvurwa n'umuganga utamwegereye hakifashishwa ikoranabuhanga, kandi akamuvura nk'aho bari kumwe.

Aho utuye ushobora kuhashyira imitako itandukanye kandi ugasanga iragaragara neza ikahongerera n'isuku, fata utuvase dutoya udushyiremo itaka uteremo ibiti cyangwa imbuto runaka.

Niba udakunda kunywa amazi, zirikana yuko wagira ikibazo gitewe nuko umubiri wawe wagize amazi make. Shishikariza n'abandi kuyanywa, nawe uyanywe gusa ku kigero kijyanye n'ibiro ufite.

Amavuta yo kwisiga ndetse n'isabune yo kumesa mu mutwe, umuti wo koza amenyo bitunganyijwe kandi bigakorwa mu gikakarubamba bikagirira umumaro ubikoresheje.

Ubuvuzi gakondo hifashishwa imiti y'ibimera bitandukanye, aho byumishwa kugira ngo bibikwe igihe kirekire bitangiritse, hari abifashisha ibiti cyangwa amababi ndetse n'imbuto.

Igiti cyitwa igisuvu, ni umuti uvura indwara zitandukanye harimo: ibihushi, ndetse n'ise ku mubiri, kandi abagore batwite bakoresha amababi yacyo bikabarinda kuruka ku bagira isesemi nyinshi.

Ubuki ndetse n'igikakarubamba, bikorwamo ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga ku ruhu ndetse n'isabune yo koga ku mubiri kandi hakavamo n'amavuta yandi yo kwisiga mu mutwe.

Imbuto zifasha umubiri w'umuntu kumererwa neza ndetse zikarinda n'umuntu uburwayi bwa hato na hato, higanjemo amaronji ndetse n'amatunda kandi n'indimu na zo zigira akamaro.

Ubuki bwifashishwa mu gukorwamo indi miti, kandi na bwo ubwabwo bugira umumaro cyane mu nzira z'igogora ndetse no mu nzira z'ubuhumekero burafasha.

Revive Igisubizo k'umuryango. Uyu muti uvura gucika intege mu gutera akabariro, abagize ingaruka zo kwikinisha na bo urabafasha, kandi ukumira indwara zifata prostate.

Iyo ubabara aho ingingo zihurira cyangwa umugongo ndetse ukumva ijosi rirakubabaza cyangwa urutirigongo, hari imiti kwa muganga batanga unywa cyangwa ugasigaho hanyuma ubwo bubabare bugashira.

Ibikoresho bikorwa mu gikakarubamba byiganjemo imiti yo koza mu memyo, imiti yo gusukura mu ntoki ndetse n'amavuta yo kwisiga, n'indi sabune umuntu yifashisha ari gukora isuku yo mu mutwe.

Igiti kizwi nka sederera nacyo gikorwamo imiti, kuko abavuzi gakondo baba bazi imiti myinshi bityo bakagenda mu bihuru cyangwa bakagira aho babitera hanyuma bakajya babona uko batunganyamo imiti.

Mu buvuzi gakondo hakoreshwamo ingeri z'ibiti byinshi bitandukanye, aho hari ibikoreshwa ari imizi cyangwa ari imbuto ndetse hari n'abakoresha indabyo, hari n'abakoresha ibihu by'ibiti bikumishwa bigakorwamo imiti.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, irumishwa hanyuma igasekurwa, ikavamo ifu, hanyuma ikabikwa kugira ngo izamare igihe kirekire itangiritse.

Ubuki na oranje havamo imiti ndetse hari n'igihe hakorwamo amavuta yo kwisiga, dore ko ubuki bugira umumaro mwinshi ku ruhu rw'umuntu, n'iyo abwisize bugira icyo bwongera ku ruhu rwe.

Imiti cyangwa amavuta bikorwa hifashishijwe ubuki ndetse n'igikakarubamba, hakavamo amasabune yo koga ndetse n'ayo gukoresha nsukura ibyombo n'amavuta yo kwisiga n'imiti ivura indwara.

Cederera iratunganywa nayo ikifashishwa mu buvuzi gakondo kimwe n'indi miti yose iboneka yaba mu mashyamba cyangwa ku mihanda, ababifitiye ubushobozi barayitunganya ikavamo imiti.

Imiti duhabwa twagiye kwa muganga cyangwa iyo tugura muri farumasi, iba ifunze neza kandi ifunitse no mu dukarito. Hariho ingano yuko ibinini birimo bingana, kandi bakakwereka nuko ugomba kuyinywa.

Ahantu henshi hatandukanye haba hari ibikorwa nyaburanga bituma ba mukerarugendo bava mu bihugu byabo bakajya kuhasura bitewe n'ubwiza haba hafite butangaje.

Igiti kizwi nk'urumogi, nubwo hari abagikoresha nk'ikiyobyabwenge, ariko kinatunganyirizwa ahabugenewe, kigakorwamo imiti yavura abantu barwaye, bitewe n'uburwayi bafite.

Mu kuvura hifashishijwe imiti gakondo, hari aho bakoramo iyo kwisiga ndetse hari n'abakoramo iyo kunywa kuko byose biba byatunganyijwe mu bimera bigafasha abaturage.

Hifashishijwe igikakarubamba ndetse n'ubuki hakorwamo amavuta yo gusiga ku munwa kugira ngo utumagara, ndetse hakorwamo n'ibindi byinshi bitandukanye harimo n'amavuta yo kwisiga ku mubiri.

Abavuzi gakondo, bafata imiti bavurisha bakayisekura bakayikoramo ifu, kugira ngo bayibike imare igihe kinini itangiritse kandi igikoreshwa.

Umuravumba ni igiti kitagorana, aho wagitera hose kirakura kandi kikaba ari umuti uvura indwara, zirimo inzoka ndetse n'inkorora, ni ngombwa ko buri wese yagitera aho atuye.

Hari ibiti tuzi yuko ari indabyo, cyangwa ibyo gutera mu majaride gusa. Ariko ababizi neza, bakoramo imiti, igafasha abafite ikibazo, iyo begereye abavuzi gakondo.

Imiti ishyirwa ahantu hizewe kandi hafite umutekano uhagije, igafungwa mu bintu bizatuma imara igihe itangiritse, bigatuma igihe cyose umuntu ayikeneye ashobora kuyibona.

Kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, imiti igomba kugenzurwa n'ikigo cy'igihugu cyabiherewe uburenganzira kugira ngo bitazajya bigira ingaruka ku bantu bafashe iyo miti.

Mu buvuzi gakondo hifashishwamo n'igiti kizwi nk'umuravu mbakuko ukorwamo imiti y'ubwoko butandukanye, harimo iyivura inkorora cyangwa iyivura inzoka.

Ita ku mubiri wawe ukoresheje ibyatunganyijwe mu gikakarubamba, harimo nk'isabune n'amavuta yo kwisiga ndetse n'indi sabune yo koza mu mutwe bigatuma umusatsi wawe woroha.

Igikakarubamba uzasanga cyifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, harimo imiti yo kuvura cyangwa amavuta yo kwisiga ndetse hakorwamo n'isabune yo koga.

Hari ibiribwa tuzi nk'imboga ariko na byo birifashishwa bigatunganywamo amavuta cyangwa indi miti yo kuvura abantu, cyane igikakarubamba kirifashishwa kivanzwe n'ibindi ibimera.

Ibiti byose tubona iyo umuntu abisobanukiwe abikoresha nk'umuti. Icyitwa sederera na cyo cyifashishwa n'abavuzi gakondo bagakoramo imiti ivura abantu.

Kugira ngo utazageza igihe ukabura imiti, niba ukoresha imiti gakondo, shaka ahantu uhashyire ubusitani bwayo kugira ngo ujye uyibona kandi ntibitume ujya kuyishakira kure.

Imihengeri ndetse n'ibindi bihuru byinshi bivamo imiti aho ibitovu, umuravumba ndetse n'umubirizi byifashishwa bigatunganyamo imiti ivura.

Mu buvuzi gakondo hakoreshwamo ibintu bitandukanye aho imbuto cyangwa amababi ndetse n'indabyo bikorwamo imiti yifashishwa mu kuvura abantu.

Ushobora kuba ufite uburibwe mu mubiri wawe wumva budasobanutse, fata igikakarubamba ugikate ukuremo amazi y'imbere, usige aho ubabara, ububabare burakira.

Abavuzi gakondo, bifashisha ibimera, bagakoramo imiti, aho bakoresha imbuto cyangwa amababi, ndetse hari n'aho bisaba ko bashishura uruhu rw'igiti akaba arirwo bakoramo umuti.

Amavuta arimo imiti cyangwa amasabune yakuvura indwara z'uruhu, amenshi uzasanga akozwe mu gikarubamba cyangwa akozwe mu buki.

Ibumba ry'icyatsi, ryifashishwa mu buvuzi butandukanye, aho umuntu ababara, aritoba mu mazi akarisigaho ndetse abagore batwite bararikoresha, bikabafasha.

Umuravumba ni igiti kiboneka ahantu henshi hatandukanye ariko kikaba ari umuti uvura indwara zikurikira, harimo inzoka, inkorora n'izindi ndwara zitandukanye.

Amavuta yo kwisiga ku mubiri akozwe mu gikakarubamba ndetse n'isabune yo gufura mu mutwe ikozwe nayo mu gikakarubamba, hari n'amavuta bakora bavanzemo ubuki.

Ahacururizwa imiti gakondo usanga hari n'iyizanwa gucuruzwa ikiri mibisi, ari ibiti bagiye bakuraho amababi, cyangwa bagaterura igiti cyose bakakizana kugira ngo uwushaka aze agure.

Tangawizi yifashishwa mu gukora imiti ndetse n'umuntu urwaye inkorora arayiteka mu cyayi akayinywa ikagira icyo imufasha kandi ivura n'ubundi burwayi butandukanye.

Mu buvuzi gakondo, hakoreshwamo uburyo butandukanye, aho batanga imiti yo kunywa, cyangwa se bagakoresha n'ifu iminjirwa mu biribwa, na byo kandi bikagirira umumaro, ndetse hari n'iyo bakubwira ko wayitoba mu mazi.

Igiti cy'umuravumba ni byiza yuko nawe aho utuye wagitera, kuko kizafasha ab'iwawe kugubwa neza igihe bagize uburwayi, ukagikoresha nko kuvura inkorora ndetse n'inzoka.

Imiti gakondo ikorwa hifashishijwe ibimera tubona aho dutuye cyangwa mu nzira aho duca. Hari n'iyo bakura mu mashyamba. Igikakarubamba ndetse na kapusine na byo bikorwamo imiti.

Tungurusumu ni umuti uvura indwara nyinshi zitandukanye, cyane izibasira inzira y'ubuhumekero ndetse n'abarwaye uduheri ku mubiri bayisigaho kandi ikagira icyo ibafasha.

Icyatsi kizwi ku izina ry'urumogi, cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye, ivura abantu kandi hari n'abagikoresha nk'ikiyobyabwenge.

Ubuvuzi gakondo bukorwa hifashishijwe imiti myinshi iboneka mu mashyamba cyangwa mu bihuru, aho ifatwa igasekurwa ndetse hari n'aho bakoresha imbuto z'ibyo biti.

Ubuvuzi gakondo bwifashisha ibimera, yaba ibyo tubona mu nzira ndetse hari n'ibiba biri mu mashyamba, hari n'abafashe ubutaka bafite, bafata igice kimwe bagiteramo iyo miti kugira ngo bajye bayibonera hafi.

Imiti yose ntago ikoreshwa kimwe hari ibanza ikumishwa nyuma igasekurwa igakoreshwa ari ifu, ishobora kuba ari amababi cyangwa ikaba ari indabyo z'ibiti.

Tangawizi wayifashisha utegura icyayi ndetse wayikoresha nk'umuti igihe ushaka kugabanya ibinure mu mubiri wawe cyangwa urwaye n'inkorora na bwo wayifashisha.

Ibiti bigaragara aho duca cyangwa aho dutuye, buriya ni umuti kuko hari abakoramo imiti ivura abantu kandi ikabagirira akamaro, uburwayi bari bafite bugakira.

Igikakarubamba gikorwamo ibintu byinshi, harimo ndetse n'isabune imesa mu mutwe, bigatuma umusatsi wawe ugororoka, kandi ukabyibuha.

Imiti gakondo ikorwa mu bimera, ibyo tubona aho dutuye cyangwa ibiba biri mu mashyamba, abantu barabifata bakabitunganya bakabikoramo imiti, ikagira abo ifasha ikabavura.

Igikakarubamba gikoreshwa n'abavuzi kugira ngo bakoremo imiti itandukanye, ndetse harimo n'iyituma umusatsi uba mwiza, ukabyibuha ku mutwe w'umuntu.

Ufite ahantu hatoya kandi ukeneye gukora ubusitani, yaba ubwo guteramo imiti gakondo cyangwa indabyo, wubaka udutanda tugerekeranye, kugirango ahantu habe hanini ubone ko uhashyira ibyo ushaka byose.